Abana bakiri bato bafite amasahani mu ntoki, biragaragara ko bari bashonjeye ibi biryo bagiye kurya, bose bicaye hasi.

Ni icyumba k'ishuri kirimo abana bari kwiga, imbere yabo hari ikibaho cy'umukara, kwiga ni byiza bituma abana n'abanyeshuri muri rusange bigirira ikizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza.

Inzu y'ubucuruzi, imbere yayo hari moto ndetse n'agafuka n'utundi dufuka dutandukanye turi ku muryango w'iyo nzu, ubucuruzi ni bwiza buteza imbere ababukora.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kirimo igikoresho cyifashishwa mu guha abana umunyenga, kigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'ubururu, inyuma yacyo hari igipangu kinini, cyubakishijwe amabuye ndetse gisizwe irangi riri mu ibara ry'umweru.

Pisine igizwe n'amazi arimo ibara ry'ubururu, irimo igikoresho kifashishwa mu guhaba n'umuyenga cyicawemo n'umwana, ndetse inyuma yayo hari igipangu kinini cyubakishijwe amabuye; inyuma yacyo hari inzu nziza igeretse iri kubakwa.

Udukinisho tw'abana, turi ahantu hamwe, ni utudiyo twifashisha mu kubacurangira kugira ngo bishime ndetse bakure no mu mutwe.

Inyubako y'amashuri y'abana igizwe n'ibyumba bitandukanye, isizwe irangi ry'umuhondo ndetse isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yayo hari ikibuga kirimo ibyatsi, ibyumye ndetse n'ibitoshye. Ni byiza gufata abana neza kuko nibo Rwanda rw'ejo hazaza.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye, bisize irangi ry'umuhondo ndetse risakaje amabati ari mu ibara ry'umukara, kimwe muri byo umuryango wacyo urimo umwarimu wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro, imbere ye hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru ruriho uturongo tw'umukara turimo ibihekane bikoreshwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hirya gato hari ikiganza kiri mu ibara ry'umukara kiri kwandika ndetse n'igishushanyo cy'umuntu uri gusoma.

Icyumba cy'ishuri gishinzwe irangi ry'umuhondo kirimo abanyeshuri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye, gishushanyijeho ibikoresho bitandukanye harimo umuhoro, igitiyo, ndetse n'isuka.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu guha umunezero abana, hari kandi abantu batandukanye higanjemo abagabo, hari umugore wambaye ikanzu iri mu iba ry'umuhondo ndetse hirya yabo hari ifoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, inyuma yaryo hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti.

Ibikinisho abana bakoresha, bari ku ishuri. Uburezi buhereye mu bana batoya ni bwiza, butuma abana bakura bakunda kwiga, bikazabagirira umumaro, mu buzima bwabo bw'ahazaza.

Icyumba abana bigiramo kirimo ibikoresho bitandukanye harimo ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho, gifite ibikuta mu ibara ry'umweru n'umutuku n'ibikoresho bakoresha bandika.

Ikinyarwanda igitabo cy'umunyeshuri umwaka wa mbere w'amashuri abanza, hashushanyijeho abana babiri bafite ikayi mu ntoki barimo bariga.

Agakapu gato gahabwa umwana ukiri muto, ugiye gutangira amashuri abanza cyangwa se ikiburamwaka, kari mu ibara ry'ubururu, inyuma hashushanyije, agatente gafite amaso.

Ibikoresho by'umwana wiga mu mashuri abanza, harimo irati, kompa n'ibindi bitandukanye, uburezi ni bwiza ku bana bituma bakura bafite icyizere cy'ubuzima cy'ejo hazaza bagateza n'igihugu imbere.

Udukinisho dutandukanye twifashishwa n'abana bakiri bato harimo amakureri, amakaramu, udusaha duto, udukinisho n'ibindi.

Icyumba cy'ishuri cyubakishijwe amatafari ahiye kirimo sima ndetse gifite amadirishya manini ari mu ibara ry'ubururu kirimo abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hari umwarimu w'umugore wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako nziza igeretse kabiri ndetse yubakishijwe amatafari ahiye gifite inkuta zisize irangi ry'umuhondo kiriho imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abanyeshuri hari umwarimu w'umugabo wambaye impuzankano y'abarimu igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye byubakishijwe amatafari ahiye ndetse bisakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yabyo hari ikibuga kirimo ibyatsi gishinzemo idarapo rifite amabara atatu, ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi.

Agakoresho kaba karimo ibikoresho bitandukanye gakunda kwitwa buwate matematikale, kifashishwa n'abana bari mu mashuri abanza.

Ibikoresho bitandukanye by'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, harimo: irati, kopa, kereyo n'ibindi. Uburezi ni bwiza ku bana butuma bagira icyizere cy'ejo hazaza.

Umugabo ufite agakoresho mu ntoki karimo ibisukika, arimo arigisha abanyeshuri be, inyuma ye hari ikirahuri kiriho uturahuri twinshi.

Ahantu hari h'ibyatsi, hicaye imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagabo, bicaye munsi y'igiti. Imbere yabo hari umugore ubyibushye, wambaye igitambaro cy'umutuku mu mutwe, isengeri ndetse akenye igitenge. Inyuma ye hari isuka nini.

Icyumba cyiganjemo ibikinisho by'abana bifite amabara atandukanye, gifite igikuta cy'umweru, harimo ibikinisho bifite amabara y'umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'icyatsi.

Ni agatabo gashushanyijemo intama ndetse n'ihene, hari insina ku ruhande rwabo, handitseho amagambo avuga ngo: Insina, intama n'ihene bidasize".

Icyumba cy'amashuri gisakaje amabati ari mu ibara ry'ubururu, gisize irangi ry'umuhondo, imbere yacyo hari indabo ndetse n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hirya gato hari ikigega cyifashishwa mu kubika amazi kiri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda w'igitaka urimo abanyeshuri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, harimo umunyeshuri w'umusore wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro ya kaki, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa amashati y'imyeru ndetse hasi ni kaki, umwe muri bo ahagaze imbere yabo afite indangururamajwi.

Icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru ndetse kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, inyuma yacyo hari ibyumba by'amashuri byubatswe n'inyubako zisize irangi ry'umuhondo ndetse imbere yazo jaride nziza iririmo indabo.

Umugabo urimo aratanga imbwirwaruhame ku bana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru hejuru na kaki hasi. Uyu mugabo yambaye amadarubindi y'umukara n'ishati y'umukara afite insakazamajwi mu ntoki.

Amashuri afite imiryango y'ubururu n'amabati y'ubururu, imbere y'ayo mashuri hari jaride, kwiga ni byiza uburezi ni bwiza butuma abanyeshuri bagira ikizere cy'ejo hazaza.

Icyumba kinini gisizwe irange ry'umuhondo kirimo abantu bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi. Ni ngombwa gufata neza amashanyarazi kuko atuma tubaho neza dufite ubuzima buri mu mucyo.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba byinshi byubakishijwe amatafari ahiye, imbere yabyo hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki ndetse imbere yabo hari umugore munini wambaye ikanzu igizwe n'amabara atandukanye, yiganjemo iry'umweru.

Ikibuga giteraniyemo abanyeshuri batandukanye higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, harimo umwana w'umuhungu wambaye amarinete imbere ye hari ibiti bitandukanye, ndetse imbere yabo bose hari itente rigizwe n'amabara atandukanye ryicawemo n'abantu.

Abana b'abanyeshuri bicaye imbere y'abayobozi babo, barimo barabakoresha inama ku ngingo zitandukanye nabo bakabaha ibitekerezo, abandi barimo barandika.

Icyumba kinini kirimo urumuri gishizwe irangi ndetse kirimo abanyeshuri biganjemo abambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ari mw'ibara ry'ubururu ryijimye, abenshi bambaye inkweto zirimo ibara ry'umukara ndetse umwe muri bo afite igikombe bigaragara ko yatsinze amarushanwa runaka

Icyumba k'ishuri cyubakishijwe amadirishya manini, gisizwe irangi ndetse kirimo abanyeshuri batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu, imbere yabo hari umugore wambaye ipantaro, ijiri y'umukara ndetse n'umupira w'umweru.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri, barahagaze biragaragara ko bagiye gufata amafunguro, ubanyuzeho ateruye akabase karimo ibyo kurya, bambaye impuzankino y'ishuri, bigaho.

Icyumba kirimo sima gisomerwamo ibitabo, kirimo etageri ikozwe mu mbaho ibitsemo ibitaro bitandukanye, imbere yayo hari ameza akozwe mu mbaho ateretseho ibitabo bitandukanye, imbere yayo hari intebe ya kinyarwanda ikozwe mu mbaho, yiciweho n'umwarimu wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cy'ishuri kirimo sima ndetse gisizwe irangi ry'umuhondo kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri kiganjemo abambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, imbere yabo hari umunyeshuri w'umukobwa wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu ndetse afite ikayi mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati n'ipantaro ya kaki, afite ibiti bibiri mu ntoki, imbere ye hari abanyeshuri bari kwiga ibintu bigiye bitandukanye, harimo n'ibiti arimo abasobanurira.

Umumama wambaye ishati y'umweru, ahagaze mu kigo cy'amashuri yisumbuye, inyuma ye hari amashuri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ikinyabiziga.

Amashuri iruhande rwayo hari ikigega, imbere yayo hahagaze umugabo ndetse imbere y'ayo mashuri hari ikibuga abana bakiniramo, uburezi ni bwiza butuma Igihugu gitera imbere n'abaturage bagatera imbere kubera ko baba barize neza.

Inyubako ya etaje iriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, by'bugeni, biragaragara ko ari ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyi ngiro.

Ibibumbano biri mu mabara y'umukara na kaki, biteretse ku meza, ibibumbano ni byiza, ni imitako, bituma ahantu biteretse haba hasa neza.

Inzu nziza igeretse, igizwe n'amadirishya manini, isizwe irangi ry'umuhondo, ndetse isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku. imbere yayo, hari imbuga nini yubakishijwe amapave, irimo umugabo uri kugenda, wambaye ipantaro y'umukara, ndetse ufashe ingofero mu ntoki.

Ibikoresho cyangwa se imitako iba yakozwe mu biti bigakorwa n'umunyabugeni, iri mu mabara ajya gusa umweru ndetse n'umukara ndetse bisize n'amarangi.

Abakobwa n'abahungu inyuma yabo hari inyubako, harimo abasore bambaye amakoti, ipantaro y'ubururu, n'abakobwa bambaye udupira tw'umweru, n'ipantaro y'ubururu harimo n'ufite ishakoshi y'umutuku.

Icyumba kiza kirimo urumuri impamakaro ndetse kiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, harimo umugore ufite ibisuko by'umukara, bicaye ku ntebe irimo ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umugabo wicaye ku ntebe iri mu ibara ry'ubururu.

Ibi ni ubugeni buba bwakozwe n'abanyabukorikori batandukanye, bibajwe mu biti ndetse hari n'ibibumbwe mu ibumba, byifashishwa mu gutaka.

Umusore ukiri muto wambaye agapira k'umukara arimo araseka, imbere ye hari mudasobwa, inyuma ye hari ibitabo byinshi biragaragara ko yicaye mu isomero.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bambaye amataburiya agaragaza ko barangije kwiga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza, bambaye imyenda y'imikara urabona ko bishimye.

Abahungu, abasore n'inkumi bari imbere y'ishuri barimo baraganira, bamwe muri bo bafite udukapu, abandi bambaye amapantaro agezweho.

Inzu nziza igeretse isizwe irangi, iriho amadirishya menshi arimo ibirahuri kandi hari esikariye ziriho amakaro ndetse hari umusore wambaye umupira ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara, iruhande rwe hari utwuma dutandukanye.

Imbuga nini yubakishijwe amapave irimo igikoresho kiri mu ibara ry'icyatsi kifashishwa mu kubika imyanda, inyuma yacyo hari inzu nziza isizwe irangi ry'umuhondo, mu buryo bwo kwirinda kwangiza ibidukikije ni ngombwa kutajugunya imyanda aho tubonye kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Abanyeshuri bicaye hamwe barimo barafata amasomo, imbere yabo hari umugore wambaye agapfukamunwa, afite ikaramu n'ikayi arimo arandika.

Icyumba kinini kirimo urumuri, gisigaze irangi ry'umuhondo ndetse kimanitsemo ibishushanyo bitandukanye, harimo igishushanyo kiriho inanasi, imineke ndetse na pome, ni byiza gufata imbuto mu buzima bwa muntu kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ku bigendanye n'indwara, kirimo urumuri ndetse n'abaganga batandukanye bambaye impuzankano y'abaganga iri mu ibara ry'umweru, harimo umukobwa uri gupima akoresheje icyuma k'ikoranabuhanga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amarinete.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza, bagaraduwetinze, barangije amasomo bose bambaye imyenda isa, hari iri mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.